Ifoto y'umubyeyi muremure w'imisatsi miremire ugaragara afite abana babiri umutoya n'umukuru bari mu irido basa nkaho bahagaze mu muryango amarido y'umweru.